Hari ukuboko k'umuntu ufashe agashusho k'inzu y'igorofa, isakaje amabati y'umutuku, hejuru handitseho ngo" biroroshye kurusha uko ubitekereza."

Icyapa cy'amabara y'umutuku cyandikishijemo amagambo y'umweru cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi hashushanyirijeho umugabo wambaye ikositimu na karuvati.

Icyapa kimanitse ahantu gishushanyijeho umugabo n'umugore ufite amafaranga menshi cyane uri guseka bigaragara ko ari ikigo cy'ubwishingizi aho ubitsa amafaranga wazagira ikibazo bakakugoboka.

Izi rero urebye ubona zimeze nk'inkweto z'abamasayi, izi ngizi barazambara urabona ko zitambitse ku kantu ka ka etaje, ati aka etajeri wagira bagashyize muri shuti.

Imyenda myiza cyane ndetse n'imitaka wagira ngo ikoze mu bitenge ifite utubara twiza, munsi harimo indi mitaka izinze, ni mu iduka riyicuruza.

Ahantu hameze nko mu iduka bacuruza imyenda igiye itandukanye, irambitse ku tuntu tumeze nk'ameza, ariko dufite isura nziza cyane, tw'uruziga n'utundi twa mpande enye.

Abantu babiri; umwe ni umuzungu, undi ni umwirabura. Bari guhana ibiganza, hari utuntu bari gukora. Iruhande rwabo hari mudasobwa ifunguye.

Imodoka nziza cyane y'abategetsi, iri mu ibara ry'umukara, ihagaze muri kaburimbo, hariho ibyapa bivuga ko igurishwa, iri kugura miliyoni mirongo itatu n'esheshatu.

Inyubako nziza cyane iriho icyapa cyanditseho Yundayi, uruganda rukora imodoka nyinshi cyane zigezweho muri iki gihe hepfo hari fondasiyo yubakishije amabuye ndetse n'ibyuma.

Imodoka nziza cyane iri mu ibara ry'umukara, ifite amapine meza cyane, hejuru hari icyapa cyamamaza uruganda yakorewemo rwitwa yundayi. Hirya hicaye abantu babiri.

Imodoka nziza cyane z'umutuku zigezweho hirya haparitse izindi harimo imeze nk'ikamyo yanditseho icyapa cya yundayi ziri ahantu heza cyane mbese urabona ko zishimishije..

Umuntu uri gutanga amafaranga muri Bank ngo bamubikire. Hari umuntu uri kuyakira wambaye imyenda y'umutuku. Uwo mukecuru ari kugaragara mu ndorerwamo birasa naho ashaje.

Mu Rwanda haje ikoranabuhanga, haza n'imashini zibara amafaranga. Aho ushyiramo amafaranga hanyuma ikayayabara yose, ikakubwira umubare wayo hanyuma ukayakuramo bitakuvunnye.

Abakobwa benshi cyane ndetse n'abahungu n'abagabo ababyeyi n'abana, bose iyo bagiye muri resitora bakunda kunywa amata ariko bagahurira kumandazi kuko bose barayakunda ubanza aryoha.

Ubu ikigo cya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda cya MTN cyashyizeho uburyo bworoshye aho ushobora kwishyura amazi n'umuriro ukoresheje telefone yawe ngendanwa utavuye aho uri.

Iyo umuntu amaze kwishyura umusoro bamuha icyapa kigaragaza y'uko nta kibazo cy'umusoro afite, imisoro yose yamaze kuyishyura uko bikwiriye.

Iyo ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro mu Rwanda basanze nta mwenda ufite baguha icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro.

Mu buryo bugezweho by'ubucuruzi, ku iduka haba hari icyapa cyanditseho ibyo bacuruza byose, n'ibiciro byabyo, umukiriya yahagera akareba icyo ashaka n'amafaranga kigurwa, akishyura nta muntu abajije.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, umutuku, n'umweru. Cyanditseho ngo dukore. Kiri kwamamaza ahantu bavunja amafaranga y'amanyamahanga.

Umuntu uri kubara amafaranga, wambaye impeta, hirya ye hari uturundo twinshi tw'ibiceri byinshi cyane, arasa naho uwo muntu ari umuzungu.

Banki yabaturage y' u Rwanda yashyizeho amashami menshi agiye atandukanye mu gihugu, aho buri muturage ashobora kuba yabona serivisi zabo, atagiye kure, ahubwo mu murenge atuyemo.

Inzu nziza cyane irimo intebe z'uruziga z'umweru, imbere yaho hari akameza k'umweru, hari n'intebe nyinshi cyane z'imifariso zisa umukara.

Aha ni ahantu hari intebe nziza cyane z'umuhondo enye ndetse n'ameza biri ahantu mu gipangu gifite urugi rw'umukara n'inzu isize amarangi y'umweru meza cyane n'ibirahuri.

Mu Rwanda hari inyubako nziza z'amagorofa kuko hari n'amagorofa ageretse inshuro zirenga icumi hariho inziza yanditseho ibihumbi bibiri.

Inyubako nziza cyane irimo amakaro hicayemo abantu benshi cyane ariko ifite inzugi nziza z'ubururu, abo bantu birasa naho bari mu nama.

Iyi ni inyubako ikorerwaho n'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa orudi mutuwo aho bari kwamamaza kugira ngo abantu bashaka ubwishingizi babagane.

Inyubako nziza y'igorofa, igiye ifite ibyapa by'umutuku n'umweru byamamaza ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda cyitwa wapu.

Inyubako isize amarange y'umweru n'umutuku munsi yayo hari abagabo bambaye amakote y'amakositimu meza n'abagore bari gusohoka, birasa naho bari bitabiriye igikorwa cyabereyemo.

Banki yitwa ayendemu ikomeje gukora ibitangaza, aho bakubwira ngo iyubake, tugane maze tuguhe agera kuri mirongo irindwi ku ijana y'agaciro k'inzu yawe, hari umukobwa mwiza urigaseka.

Icyapa kiri mu nyubako, hari n'intebe. Mo mbire hari amarangi y'umweru. Hari udutebe twiza cyane, abakiriya abaje bicaraho.

Umukobwa wambaye agashati k'umuhondo, aripfumbase, afite imisatsi minini y'umukara, ari guseka, ari kwamamariza ikigo kitwa ekwiti, avuga ngo nawe watera imbere, ubikesheje iyi banki.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro afite n'imisatsi, ari kugura imbuto. Hari umugore uri kuzimuhereza yishimye cyane.

Isoko rinini ry'ubucuruzi bw'imbuto, aho harimo abantu benshi cyane abari kugura ibitunguru, karoti, imiteja, urusenda ndetse n'ibijumba, imyumbati, n'abandi benshi cyane bagiye bakora ibintu bitandukanye.

Abagabo benshi cyane cyane bahagaze ahantu wagira ngo hari ikintu bari gushungera ahantu bari hari amabara y'umutuku, ubururu ndetse hari n'umuryango ufunguye.

Mu isoko aho bacururiza imyenda ya caguwa, hari abantu benshi bari kuyigura bitwikiriye imitaka y'ubururu, iy'umutuku, n'iy'umuhondo, igaragaza sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyeni.

Inyubako y'amagorofa maremare iriho amarangi y'ubutuku handitseho konka. Ni uruganda rukora telefoni n'imodoka. Haparitse imodoka nyinshi cyane zakozwe n'urwo ruganda.

Mu Rwanda hakorerwa umushinga w'ubucuruzi aha hari umugore uri gucuruza imbuto n'umugabo uri kumugurira wishimye cyane, hirya hari umugabo wambaye agapira k'umuhondo ari kugurisha umukobwa wambaye amadarubindi imbuto.

Umugabo uhagaze wambaye agapira k'umukara n'umweru n'akabara kajya gusa umutuku ufite terefoni, imbere hari mudasobwa hahagaze umugabo urimo imbere wambaye agapira k'umuhondo ka sosiyete y'itumanaho ya MTN arikumuha serivisi.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo, hashushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'ibyatsi n'umukara, hariho abantu bisa n'aho bari kwamamaza ibikorwa byenda kuba bya Jumia.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, mo imbere harimo inyubako isakaje amabati meza y'umutuku, hepfo hariho icyapa cyanditseho ngo iyi nzu irakodeshwa, iherereye Kigali- Kanombe.

Mu iduka ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo n'imbuto hahagazemo umukobwa wambaye agapira k'umutuku, w'inzobe ari guha amverope umukiriya waje amugana ariko ubona ko bose bishimye.

Abantu batatu barimo umwe wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara n'umugore wambaye imyenda y'umukara bari kwinjira mu iduka rya simba bagiye guhaha mo ibyo bakeneyenye.

Iyi ni inyubako nziza cyane harimo umugabo ufashe umwana akaboko, bari kwinjira ahantu hari icyapa cy'ubururu cyanditseho ngo ubwinjiriro. Hari n'ibindi byapa bigaragaza aho umujyi uherereye.

Umugabo n'umugore bambaye udupfukamunwa, bafite icyapa cyanditseho ngo : "Yishyuye MUKANZIGA Pascaline miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu y'u Rwanda."

Iduka ryiza cyane ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, rikaba riri mu nzu nziza cyane ifite amatara ari kwaka ndetse hasi ikaba yubakishije amakaro.

Umugabo w'umusirimu wambaye ikositimu, karuvati ndetse akaba afite telefoni mu ntoki, ahagaze ahantu mu iduka ari gucuruza ibicuruzwa ndetse hari n'icyapa kigaragaza ko ushobora kwishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Ahazwi nko mu iduka bakunze gucururizamo ibintu bigiye bitandukanye ibyo kunywa, ibisembuye n'ibidasembuye ariko hano turi kuhabona ibidasembuye gusa.